Abagore babiri b'abanyacyubahiro bicaye imbere y'ameza ahari kubera inama batumiwemo.

Umugabo ahagaze mu busitani imbere y'ihema rihuriyemo abantu benshi, aho ari kubaha ubutumwa yabageneye.

Abagabo barimo n'abakuriye inzego z'umutekano z'igihugu bicaye ku meza ahari kubera inama.

Abantu barimo abagabo n'abagore n'abana, bicaye mu busitani aho bari gukurikirana ijambo bateganirijwe kugezwaho.

Umunara w'itumanaho byagenewe ibikoresho bya mudasobwa, ndetse n'ibindi nkabyo.

Ipoto ihuriweho n'insinga nyinshi zagenewe gusakaza amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ihuriro ry'inzira zo kwa muganga, ndetse n'ibyapa birangira umuntu aho yakura ubufasha akeneye.

Abantu bari ku murongo imbere y'ihema aho amatora y'umukuru w'igihugu ari kubera.

Nyakubahwa Perezida Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame, n'abandi banyacyubahiro mu nzego zitandukanye, ahari kubera inama.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame araramutsa abaturage n'urugwiro rwinshi, aho aherekejwe n'itsinda rishinzwe umutekano we ndetse na benshi bagaragaza urugwiro, baje kumva ijambo rye, aho yiyamamariza ku mwanya wa perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda.

Inkuru igaragaza abantu bari kwamamaza umukandida dogiteri Habineza furaka mu matora ya perezida w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame, aho ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, aho ari kuyigezaho ijambo yabateguriye.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame, hamwe n'abamurindira umutekano, ndetse n'abanyarwanda baje kumushyigikira, bitwaje amabendera y'ishyaka rya efuperi.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umuhondo n'ibirango by'umukara, kigaragaza aho abanyamaguru cyangwa inzira y'abanyamaguru itangirira.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, kikaba gifite ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, kiburira cyangwa gishyirwa ahari umuhanda unyerera.